Farumasi ni nziza cyane, kuko idufasha iyo udafite umwanya wo kujya ku bitaro, ujya muri farumasi ukavuga indwara urwaye, bakaba baguha imiti.

Ni nziza cyane kuko iyo uziteye ukoramo ubusitani cyangwa jaride maze aho waziteye ukabona hagaragara neza ndetse haranashimishije.

Gutera ibiti ni byiza kuko ibiti bituma twirinda izuba ryinshi, ndetse bikanakurura imvura bityo tukagira amahumbezi.

Iki ni ikimera bita urudenga, urudega ni rwiza cyane iyo urutetse ukarurya, rushobora kukurinda kurwara imisokoro yo mu magufa.

Iki ni igihingwa bita ikinyomoro, ikinyomoro ni cyiza cyane kuko ni urubuto rwongera amaraso, rwiza rugezweho ubasha gusoroma ukarya, ndetse ukanagurisha ukaguramo ibyo ukeneye.